Ubuhinzi bw'amashu buri muri bumwe mu buhinzi bukenera kuba bwaterwa imiti yica udukoko, aho usanga utwo dukoko twashoboraga cyangwa se dushobora kwangiza ibihingwa bigatuma bidatanga umusaruro uhagije.

Uburyo bwo gutera ibihingwa imiti ni bumwe mu buryo bufasha abahinzi kuba babona umusaruro mwiza . Aho usanga imiti yatewe ibihingwa iba yarifashishijwe mu kwica udukoko twashoboraga kuba twakwangiriza umusaruro cyangwa se igihingwa kitarera.

Ubuhinzi bugezweho bwa kijyambere, aho abenshi bifashisha ifumbire mvaruganda ku butaka bugaragara nk'aho budafitemo ifumbire ihagije. Ifumbire mvaruganda ikaba ifasha ibimera gukura neza, ndetse no ku kigero cyiza bikaba byatanga umusaruro mwiza.

Imiti iterwa ibihingwa iri muri bimwe mu bifasha ibihingwa kuba byakura neza, ndetse bigatanga umusaruro uhagije. Aho usanga iyo miti yica udukoko dushobora kujya ku bihingwa, tukabuza ibihingwa kuba byakwera neza.

Ibirayi bimwe mu biribwa bifatwa nk'umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi . Ibirayi rero bikaba bifasha ababihinga ,ndetse n'ababicuruza ndetse n'ababyitaho n'ababikorera , amafumbire kuba byababera aho bakura amafaranga abafasha kubaho mu buzima bwa buri munsi.

Gukoresha cyangwa se ikoreshwa ry'ifumbire mvaruganda mu buhinzi, riri muri bimwe mu byateje imbere ubuhinzi, ndetse bikaba bifasha abahinzi kubona umusaruro uhagije, kandi mwiza.

Kimwe mu kinyabuzima gikurira ndetse kikanororerwa mu mazi. Ni ikinyabuzima gifasha abantu mu ngeri zitandukanye kubaho. Aho usanga abarobyi ndetse n'abacuruzi kibinjiriza amafaranga.

Kubungabunga ibinyabuzima biva mu mazi biri muri bimwe bifasha ikiremwamuntu kubaho neza. Aho hari ababikora nk'uburobyi bikabafasha kwinjiza amafaranga abandi bakabikoramo ubucuruzi nko mu mabara ndetse n'ahandi.

Ubuzima bw'ibinyabuzima biva mu mazi , biri muri bimwe byagakwiye kubungabungwa cyane kuko bikoreshwa n'umuntu , aho akenshi bifasha umuntu , iyo umuntu ariye ifi abasha kuba yabonamo intungamubiri ya poroteyine imufasha gukura neza.

Ubuzima bw'ibinyabuzima biba mu mazi, harimo n'isambaza zifasha abaziroba kuba bakwinjiza amafaranga, ndetse zikanagirira umumaro munini abazirya, kuko zikungahaye kuri poroteyine ifasha umuntu gukora neza.

Isambaza, kimwe mu musaruro w'ibikomoka ku mazi cyangwa w'ibiremwa biba mu mazi, ufasha ababiroba bazwi ku izina ry'abarobyi, mu kwinjiza amafaranga ndetse bikanafasha ikiremwa muntu muri rusange, mu mibereho myiza kuko isambaza ni ikiribwa cyiza, gikungahaye kuri vitamine ya omega gatatu.

Ifi kimwe mu kinyabuzima kiba mu mazi, gikungahaye ku ntungamubiri ya poroteyine ifasha abantu gukura neza, ndetse kikanagira indi ntungamubiri ya omega gatatu ifasha abantu, ndetse n'ubwenge bwabo gukora neza.

Ubuhinzi bw'ibirayi buri mu buhinzi buteza imbere ababukora , aho usanga bubafasha kwinjiza amafaranga abafasha mu mibereho yabo ya buri munsi , ndetse nabo bakaba bakoresha ibyo bihingwa bahinze.

Igitoki kiri muri bimwe mu biribwa n'abanyarwanda, aho gishobora gukoreshwa nk'ikiribwa gisanzwe, cyangwa se kikaba cyavamo imitobe. Igitoki rero mu buhinzi bwacyo, iyo gikuze gikenera gushyigikirwa, aho bashyiraho inkingi, kugira ngo kibashe kuba cyakura neza kitaguye.

Ubuhinzi buri mu bintu bya mbere bifasha ikiremwamu kubaho neza, kuko akenshi ikiremwamuntu gikoresha ibikomoka ku buhinzi ndetse n'amatungo. Mu buhinzi rero havamo iby'umuhinzi arya, ndetse akanasagurira amasoko, bityo agakomeza kubaho neza.

Ubuhinzi bw'ibireti buri muri bimwe biteza ababukora imbere, aho usanga ibireti iyo birangiye, umusaruro wa byo ushobora gukorwamo imiti yica udukoko, dushobora kubangamira iyera neza ry'imyaka.

Ubuhinzi bw'ibitunguru buri muri bimwe mu bifasha ababukora buri munsi, kuba bakwiteza imbere ndetse kikaba kimwe mu gihingwa, kizwiho kuba gifite intungamubiri ya vitamini C, aho usanga rero ibi bitunguru bikenerwa n'ingeri zitandukanye, aho usanga bikoreshwa nko mu mahoteri ndetse mu mabare ndetse no mu ngo z'abantu bisanzwe.

Ubuhinzi bw'ibigori buri muri bimwe mu bifasha ababikora gutera imbere, mu gihe babonye umusaruro mwiza, ubuhinzi bw'ibigori iyo butanze umusaruro, hashobora kuvamo umusaruro ukoreshwa nk'ifu, ndetse hakaba na bimwe bihunikwa mu bigega bikazakoreshwa nk'imbuto y'ubutaha.

Ubuhinzi bw'ikawa ni bumwe mu buhinzi bufasha ababukora kuba batera imbere, aho ikawa iri mu bicuruzwa bimwe bishobora kuba byacuruzwa mu Rwanda ndetse n'amahanga.

Imyumbati ni kimwe mu bihingwa by'imizi bitanga umusaruro, ndetse n'amafaranga ku babikora nk'ubuhinzi bwa buri munsi. Ariko ku bijyanye n'intungamubiri, imyumbati iri mu biribwa bitera umubiri imbaraga.

Umwumbati cyangwa se imyumbati kimwe mu biribwa by'imizi, kiri mu cyiciro cy'ibitanga imbaraga akenshi dukura ku bikomoka ku buhinzi, si ibyo gusa imyumbati kandi ku bijyanye n'abahinzi hashobora gukoreshwa nk'ahava amafaranga, cyangwa se igishoro mu bucuruzi.

Umusaruro w'ibirayi, akaba ari umusaruro ukoreshwa mu buryo butandukanye, aho usanga ukoreshwa ujyanwa ku masoko, ndetse ibindi bikaba byahunikwa bikazera nk'imbuto izafasha mu ihinga ry'ubutaha.

Ubuhinzi bw'inyanya buri muri bumwe mu buhinzi bwatejwe imbere ,bushobora guhingwa mu buryo bwa kijyambere aho bushobora guhingwa mu mazu ashobora gutambutsa urumuri. Ubu buhinzi rero bukaba buzwi ko bufasha ababuhinga kuba bakwiteza imbere mu buryo bwagutse.

Ikoraniro ry’abantu bahuriye hamwe, bagaca amayugi mu murima kugira ngo babashe kuba bashyiramo igihingwa runaka, kugira ngo bigifashe gukura neza, kitabyigana, gifite ubwisanzure buhagije kugira ngo kizatange umusaruro mwiza.

Ubuhinzi bw'igihingwa cy'imyumbati, buri muri bimwe mu bifasha abagihinga kubaho neza, aho babihinga bakaba bakuraraho umusaruro bakoresha iwabo mu rugo, ndetse bagasagurira n' amasosoko, bikabafasha kwinjiza amafaranga.

Ubuhinzi bw'ibigori buri mu byagakwiye kwitabwaho cyane , kuko ibigori bitanga umusaro mu buryo butandukanye , aho usanga bishobora gukoreshwa nk'imbuto , bishobora gukoreshwa nk'ibiryo , nk'ibigori bisanzwe ndetse bikaba byanavamo amafu akoreshwa ibindi.

Umusaruro w'ibigori uri muri bimwe mu misaruro ishobora gukoreshwa mu buryo butandukanye. Aho ikigori gishobora kuribwa ari kibisi, gitetse, cyangwa se cyokejwe. Bityo bigatuma abakora ubuhinzi bw'ibigori bakomeza kwiteza imbere, kuko bufite uburyo bwinshi bushobora gutangamo umusaruro.

Ubworozi bw'ingurube akenshi bukorwaga n'abantu bo mu caro, cyangwa abantu bafatwa nk'aho bari mu ciciro giciriritse cy'ubukene. Ariko mu by'ukuri akenshi iyo turebye, ingurube dusanga ziri mu bintu bishobora gutanga umusaruro munini, nko kwinjiza amafaranga menshi mu gihe zorowe neza kandi zitaweho bihagije.

Umusaruro w'ibirayi uri muri bimwe mu bifasha ababikora kuba bakwiteza imbere. Aho ushobora gusanga ibirayi bimwe bitangwa nk'imbuto, cyangwa se ibindi bigatangwa ari ibyo kurya ako kanya, bidasabye guhunikwa igihe kirekire.

Ubuhinzi bw'ingano buri muri bimwe mu bihingwa bishobora, ndetse binateza imbere ubikora, aho usanga ingano akenshi ku isoko zikenerwa cyane, kuko arizo zivamo ifu y'ifarini ifasha mu gukora imigati, ndetse n'ibindi bisa nka yo.

Amapera amwe mu mbuto, zifasha abantu kuba babaho neza, aho ku bijyanye n'intungamubiri, usanga amapera akungahaye kuri vitamine c, ifasha abantu kuba babaho neza ndetse akanafasha abayakora nk'umwuga w'ubucuruzi ndetse n'ubuhinzi gutera imbere.

Avoka kimwe mu gihingwa gifasha abagihinga buri munsi kuba bakwiteza imbere, avoka ni urubuto rushobora gukoreshwa ruribwa, ndetse nanone rukaba urubuto rushobora gukoreshwa ruvanwamo amavuta yisigwa ku mubiri, cyangwag se akoreshwa mu misatsi.

Inyanya ndetse n'ibindi bicuruzwa bikomoka ku buhinzi, ni bimwe mu bicuruzwa bitangirwa mu masoko, aho usanga bifasha ababicuruza kuba bakwiteza imbere.

Ubuhinzi bw'amapera ni bumwe mu buhinzi bufasha ababukora kuba bakwiteza imbere, aho usanga umusaruro w'amapera ushobora gukurwamo ibindi bicuruzwa nk'imitobe.

Ubuhinzi bw'amashaza buri muri bimwe mu byatejwe imbere, aho usanga amashaza ku uyahinga amwinjiriza amafaranga menshi. Aho ashobora kuyacuruza yumye, cyangwa se akiri mabisi.

Umusaruro w'amasaka ni imwe mu misaruro ikoreshwa cyane . Aho usanga umusaruro w'amasaka ushobora gukoreshwa nk'ifu ku bantu bayikeneye nko kuyakoreshaigikoma. Ndetse nanone hakaba hasagurwa undi musaruro nk'impeke zigahunikwa zikaba zakoreshwa nk'imbuto y'ubutaha.

Ubucuruzi bw'imbuto zirimo: amaronji ,ibinyomoro amatunda, imineke ,inanasi, imyembe biri muri bimwe mu biteza imbere ababikora nk' umwuga wa buri munsi kuko usanga imbuto ziri mu bintu biribwa kandi bikenewe n'ikiremwamuntu cya buri munsi.

Ubuhinzi bw'icyayi buri muri bimwe mu bihingwa bifasha u Rwanda kuba rwatera imbere. Aho usanga icyayi kiri mu bihingwa bitatu u Rwanda rwohereza i mahanga bityo bikarufasha kuba rwakiteza imbere.

Gutera umuti ibirayi ni kimwe mu gikorwa gikorwa n'abahinga ibirayi , aho gifasha kuba bakwica udukoko ndetse n'udusimba dushobora kwangiriza amababi y'ibirayi , bikaba byatuma ibirayi bidakura neza , kuko bitanga umusaruro uhagije.

Ubworozi bw'ihene ni ubworozi busaba ko umuntu agomba kugaburira ihene ye neza, kugira ngo ikure ndetse inabyibuhe. Biyifasha kuba yatanga umusaruro uhagije, mu gihe iguzwe cyangwa se ibazwe mu buryo bwo gukoreshwa inyama.

Amateke kimwe mu bihingwa by'imizi, ndetse kikaba kizwiho kuba ari ikiribwa cyaribwa n'ikiremwamuntu ntikigire icyo kigitwara, kikaba kiri mu bikungahaye kuba cyakongerera umubiri imbaraga, kiri mu bihingwa bitera umubiri imbaraga.

Ubuhinzi bw'ibirayi buri mu buhinzi bufasha ababukora kuba bateye imbere, aho bashobora kuba bahinga, umusaruro uvuyemo ukaba wakoreshwa na bo ubwabo mu rugo babirya, bagasagurira amasoko ndetse byaba ngombwa bakaba banasiga imbuto bazakoresha ubutaha bahinga.

Ibirayi nk'ikiribwa akenshi gikoreshwa nko mu bitanga imbaraga akenshi ubuhinzi bwacyo bugaragara mu Ntara y'Amajyaruguru ndetse n'uburengerazuba ibirayi rero akenshi bifatwa nk'aho ari yo ari ryo shingiro ry'i ry'ubukungu ku baturage batuye mu Ntara y'Amajyaruguru mu murenge wa Kinigi.

Ubuhinzi bw'ibirayi, buri muri bimwe mu bikorwa n'abanyarwanda, bikabafasha kwiteza imbere, ariko rimwe na rimwe nko mu gihe hari izuba ryinshi, ibirayi bikenera amazi bikaba byacucirwa amazi, cyangwa se bikuhirwa.

Ibitoki biri muri bimwe mu bitanga umusaruro, cyangwa se imisaruro itandukanye. Aho usanga igitoki cyeze neza gishobora gukoreshwa nk'urubuto, aho gikoreshwa nk'umuneke. Kigakoreshwa nk'ibiryo, aho kiribwa nk'igitoki. Ndetse kikanakoreshwa nka kimwe mu mbuto zitanga imitobe.

Igihingwa cy'intoryi, ni kimwe mu gihingwa gifatwa nk'urubuto ndetse n'imboga, mu gihe icya aricyo cyose, aho usanga gicuruzwa mu masoko ndetse abagicuruza, kikaba kibafasha kuba bakwiteza imbere.

Ubuhinzi ndetse n'umusaruro uva mu mashu, ni bimwe mu bifasha ababikora kuba bakwiteza imbere, aho bajyana umusaruro ku masoko y'imbere mu gihugu, ndetse bakaba basagurira n'amasoko y'amanyamahanga.

Ubuhinzi bwa kijyambere burimo guhingirwa mu mazu akenshi bita nka girini hawuzi bwatejwe imbere mu Rwanda, aho bamwe mu baturage bo mu turere twa Musanze, Nyabihu ndetse na Rubavu batangiye kubukoresha.

Umusaruro w'amateke uri mu bifasha abawuhinze kuba babona amafaranga iyo bawucuruje. Amateke rero akaba ari igihingwa kizwi ko gikungahaye ku ntungamubiri, yo kuba cyatanga imbaraga ndetse n'isukari mu mubiri.

Urubuto ruzwi ku izina ry'ipera cyangwa se amapera iyo ari menshi, ni kimwe mu mbuto zikungahaye kuri vitamine c, vitamine ifasha abantu kuba basukurirwa amaraso mu mubiri.

Imyumbati bimwe mu bihingwa by'imizi bitanga umusaruro, ndetse bikanafasha ababikora n'ababicuruza ku masoko, kuba byabaha ubuzima bwiza ndetse bikaba byanabinjiriza amafaranga abafasha mu mibereho yabo ya buri munsi bityo bakiteza imbere.

Indimu ni kimwe mu gihingwa kizwi kuba gikungahaye ku ntungamubiri ya vitamine c, ifasha umubiri kuba wasohora imyanda neza, no kuba yafasha umubiri kuba wakwinjiza izindi ntungamubiri neza mu mubiri.

Iyubakwa mu by'amaterasi y'indinganire, rifasha abafite ubutaka ndetse n'abahinzi kurwanya isuri ndetse no kuba ibihingwa bateye byatemba mu gihe cy'imvura, bikaba byabatera igihombo.

Umusaruro wa bimwe mu binyampeke nk'ibishyimbo n'amashaza, biri muri bimwe bifite amoko menshi. Aho usanga buri bwoko bwihariye ku buryohe, mu myerere, ndetse no mu gutanga umusaruro bitandukanye n'ubundi bwoko.

Ubuhinzi ndetse n'umusaruro w'ibikomoka ku bigori biri muri bimwe mu bifasha imibereho ya muntu kuba yagenda neza, aho usanga ibigori bishobora gukorwamo amafu yifashishwa n'abantu mu buzima bwa buri munsi.

Ubuyobwa ni igihingwa cyiza, kibamo intungamubiri nyinshi.

Umusaruro w'ibigori akenshi ugaragazwa n'ibigori byeze kuri hegitari, cyangwa se bitewe n'imbuto bahinze. Iyo ibigori bisaruwe birahunikwa bikuma, bityo mu gihe kizaza bimwe byumye bikaba byakwifashishwa nk'imbuto yo gutera ibindi bigori.

Ubunyobwa, kimwe mu gihingwa gitanga umusaruro mwiza. Kandi kikaba kizwiho kuba gifite amavuta atagira icyo atwara mu mubiri w'umuntu nk'ayo mu nganda.

Ubuhinzi bw'ibishyimbo buri muri bimwe mu biteza ababukora imbere, aho bubinjiriza amafaranga. Ariko mu buhinzi bw'ibishyimbo hakaba habamo amoko, hari ibigufi, hari ibirebire, hari ibitukura, hari ibisa umweru ndetse n'ibindi.

Ubuhunikiro bw'imyaka, buri muri bimwe mu bifasha imyaka yeze nk'umusaruro, kuba yafatwa neza ikajya hamwe, ikarenga udukoko tuyangiriza, bityo ikaba yabikwa igihe kirekire kugira ngo izabashe kubona amasoko ikimeze neza.

Inzuzi z'ibihaza ziri muri zimwe mu mbuto zishobora kubikwa igihe kirekire iyo zumye, bityo zikazabasha kuba zahingwa mu gihe kiri imbere, zikazana ikindi gihaza.

Ubuhinzi bw'ibinyampeke harimo ibigori, ibishyimbo, amasaka, uburo, ingano ndetse n'amashaza n'ibindi byinshi, ni bimwe mu bifasha ababikora kuba bakwiteza imbere, aho usanga biri muri ibibintu bimwe na bimwe bikenerwa na muntu buri munsi.

Ubuhinzi bw’amasaka ni bumwe mu buhinzi bw’ibinyampeke bwateye imbere, kuko usanga ababuhinga bibafasha kuba bakwinjiza amafaranga mu buryo butandukanye, aho bayacuruza ari ibinyampeke, abandi bakayacuruza ari ifu, bikabasha kuba byose bibinjiriza amafaranga.

Umusaruro w'ibinyampeke harimo n'amasaka, biri mu bifasha ababikora kuba bakwiteza imbere, ndetse no kuba bateza imbere imibereho myiza y'ikiremwamuntu, muri rusange y'abanyarwanda.

Umusaruro w'igihingwa cy'igihwagari uri muri bimwe mu bifasha abantu kubaho neza , aho usanga imbuto ziva muri uru rurabo rw'igihwagari zikoreshwa kuba zakorwamo amavuta . Kandi bikaba byaragaragaye ko igihwagari gitanga amavuta atagira ingaruka ku mubiri wa muntu.

Gukusanya ibyatsi byumye mu murima tukabishyira ku ruhande rumwe, bifashaga mu gihe imvura iguye, bikabasha kuba byazana ifumbire. Bikorwa akenshi mu kongera uburumbuke bw'ubutaka.

Bimwe mu binyampeke bitanga umusaruro uturutse ku buhinzi harimo nka soya, yifashishwa nko gukora akazi inyama zagakoze mu buryo bw’intungamubiri. Aho usanga abagira imyemerere itabemerera kuba barya inyama, bakoresha soya, bityo bakabasha kuba babonamo intungamubiri nk’iz’umuntu wariye inyama.

Ubuhinzi bw'umuceri n'ubuhinzi akenshi bukorerwa ahantu mu gishanga, ni ubuhinzi bukenera gukorerwa ahantu haba amazi yahagije, kuko umuceri ukenera amazi ahagije, kugirango ngo ukure neza utange umusaruro wishimirwa na nyirawo.

Umusaruro w'ibikomoka ku bigori uri muri bimwe ikiremwamuntu gikenera buri munsi. Ndetse uri no muri bimwe bifasha ababikora nk'ubuhinzi kuba bakwiteza imbere, aho usanga ibigori iyo byeze bishobora kwanikwa, bikaba byakorwamo imbuto z'ubutaha ndetse n'ifu yo gukoresha.

Ubuhinzi bw'ibigori buri muri bimwe mu buhinzi bwatejwe imbere, kandi bugira n'umusaruro ubasha kuba wahunikwa neza igihe kirekire, utagize ingaruka, aho isaha n'isaha cyangwa se nyuma y'igihe kirekire, ibigori byahunitswe bishobora kujya ku, isoko bikiri bizima.

Umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi, umurima, ni bimwe mu bifasha abahinzi kwiteza imbere, aho babikoresha babijyana ku masoko, bakaba babona amafaranga abafasha kubaho neza mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ubuhinzi bw'ibinyampeke harimo n'ubunyobwa biri muri bimwe mu bifasha abanyarwanda ndetse n'ababikora muri rusange kuba bakwiteza imbere, aho ku bijyanye n'intungamubiri dusanga ubunyobwa bufite amavuta adafite icyo atwara umubiri wa muntu, amavuta karemano dusanga mu ubunyobwa.

Ubuhinzi bw'ibishyimbo, buri muri bimwe mu bitanga umusaruro ku babihinga, aho usanga bamwe bashobora gubicuruza byumye, ndetse abandi bakabicuruza ari bibisi, aho bifatwa nk'ibitonore, ariko ibyumye bizwi ko ari byo bimara igihe kirekire, kandi bikabikwa bitagoranye.

Ubuvuzi bw'amatungo nk'ihene buri muri bumwe mu buvuzi bufasha abantu kuba babaho, aho usanga abavura ihene babikora nk'umwuga wa buri munsi ubabeshejeho ndetse unabafasha kwiteza imbere.

Ubuzima bw'inka bukwiye kubungwabungwa, aho inka ifasha ikiremwa muntu mu gutanga amata, inyama, ndetse n'ifumbire ikoreshwa bafumbira ibiribwa biri mu mirima, bikaba byatanga umusaruro mwiza.

Ubworozi cyane cyane ubworozi bw'ingurube, buri mu bworozi bukunda guhira abantu benshi, aho usanga ingurube ziri mu matungo atagoye kuba yagaburirwa, kandi n'iyo zitanze umusaruro nko kubwagura, zishobora kubwagura ibyana bitari munsi y'ibyana bine cyangwa bitatu.

Ubworozi bw'inka buri muri bimwe mu byitabwaho cyane, kuko usanga inka zitanga umusaruro ukenerwa n'ikiremwa cya muntu buri munsi aho zitanga amata ndetse n'inyama.

Inka z'inyambo ni inka zifite umwihariko wo kuba zifite amahembe maremare, ndetse agoramyemo ukuntu. Ni inka zubahwa mu muco nyarwanda ariko na none zikaba zikenera ubuvuzi ndetse no kwitabwaho bihagije, kugira zikomeze zibeho neza zitange n'umusaruro uhagije.

Ubworozi bw'ingurube ni muri bimwe mu gitanga umusaruro w'amafaranga kuri nyiracyo, aho ingurube ishobora kubwagura ibibwana birenze bitanu, ndetse yanatanze ifumbire yifashishwa cyangwa se ishobora kwifashishwa mu buhinzi.

Ubworozi bw'ingurube ni bumwe mu bworozi bufasha ababukora kuba bakwiteza imbere. Aho usanga ingurube zishobora gutanga bimwe mu bizikomokaho nk'inyama zifashishwa, cyangwa se zikoreshwa n'abantu kenshi mu buzima.

Ubworozi bw’inkoko buri muri bimwe mu bifasha ababukora kuba bakwiteza imbere, aho usanga inkoko zishobora gutanga imisaruro itandukanye. Aho, hari inkoko z’indibwa zitanga inyama, ndetse hakaba n’inkoko zitera amagi, na yo akenerwa mu buzima bwa buri munsi.

Ubworozi bw'inka, buri muri bimwe mu bifasha ababikora nk'umwuga, kuba bakwiteza imbere ndetse bakanabaho neza, kuko burya leta y'u Rwanda ishishikariza abantu kubanza kwimenya mbere y'uko basagurira amasoko.

Ubuvuzi bw'amatungo buri muri bimwe mu bifasha amatungo kuba yatanga umusaruro mwiza w'ibiyakomokaho ,ndetse bikanafasha ubuzima bwa muntu kuba yabaho neza, aho usanga umuntu akoresha ibikomoka ku matungo bisa neza.

Umusaruro w'ibikomoka ku matungo harimo n'amagi uri muri bimwe mu bifasha aborora inkoko kuba bakwiteza imbere, aho usanga amagi akoreshwa n'umubare nyamwinshi mu gihugu ndetse akaba yanakoherezwa mu bihugu byo hanze y'u Rwanda.

Ubworozi bw'inkoko ni ubworozi butanga umusaruro uhagije, aho usanga izi nkoko iyo zagaburiwe neza zitanga umusaruro w'amagi. Amagi ashobora kujyanwa ku isoko akaba yaturagwa hakavamo andi magi, cyangwa se akaba yakoreshwa nk'ibiribwa.

Ubworozi bw'inka buri muri bimwe mu bifasha ababukora kwiteza imbere ndetse no kugira ubuzima bwiza, aho usanga inka zitanga amata ndetse zigatanga n'inyama byose mu buryo bw'intungamubiri bikenerwa ku bantu, ndetse zikanatanga ifumbire ifasha abahinzi kuba bafumbira ibiribwa cyangwa se imyaka yabo.

Ubuzima bw'amatungo buri muri bimwe mu byitabwaho cyane, aho usanga amatungo ahabwa inkingo ziyarinda udukoko runaka kugira ngo nayo atabasha kuba yakanduza abantu, bayakurikirana buri munsi.

Ubworozi bw'amatungo harimo n'inka, ni ubworozi cyane bukorerwa ahantu umuturage cyangwa se umworozi ashobora kubona ibyo Inka ikeneye harimo nk'ubwatsi, kubona umwanya uhagije w'inka ishobora kubamo itabangamiye imibereho myiza y'umuntu.

Gusigasira ubuzima bw'ibinyabuzima by'ibinyagasozi. Ni bimwe mu bifasha ibinyabuzima kubaho igihe kirekire, ndetse no kongera urusobe rw'ibinyabuzima biba ku isi cyangwa mu gihugu runaka.

Ubuzima bw'inyamaswa ziba mu gasozi abenshi bita inyagasozi, bukwiye kubungwabungwa, kuko bukurura ba mukerarugendo, bakaba binjiriza igihugu amadovize.

Kubungabunga ibinyabuzima by'ibinyagasozi, biri muri bimwe mu bifasha isi kuba hakomeza kubaho urusobe rw'ibinyabuzima. Aho usanga ibinyabuzima runaka bifasha ibindi kuba byabaho.

Inyamaswa z'ishyamba zizwi ku izina ry'impongo, cyangwa se ihene y'ishyamba, ziri muri bimwe bikurura ba mukerarugendo mu Rwanda, cyangwa se ahandi hantu mu mapariki y'igihu.

Kubungabunga ibinyabuzima biba mu mashyamba ndetse no mu mapariki, nk'inzovu, ziri muri bimwe mu binyabuzima bikurura ba mukerarugendo hano mu Rwanda, bikabasha kuba byakwinjiriza igihugu amadovize.

Kubungabunga ibinyabuzima by'ibinyagasozi, biri muri bimwe mu bifasha isi kubaho neza, aho urusobe rw'ibinyabuzima rwiyongera, bityo bigafasha mu mibereho ya muntu ndetse n'ibihingwa bimwe na bimwe, kwera neza ndetse no gukomeza gutanga umusaruro, harimo nk'indabyo zibyara bitewe n'uko, inyoni zabigizemo uruhare.

Kubungabunga ubuzima bw'ibinyabuzima by'ibinyagasozi , biri muri bimwe mu bigomba kwitabwaho, aho usanga ibinyabuzima by'ibinyagasozi bifite ubwiza karemano, bishobora gukurura ba mukerarugendo bakaba bakinjiriza igihugu amadovize, bityo bigafasha mu iterambere ry'igihugu

Ibinyabuzima cyangwa se inyamaswa ziba mu gasozi, ni bimwe bifasha igihugu kuba cyatera imbere, aho usanga ibyo binyabuzima bifite ubwiza karemano, bikaba bikurura ba mukerarugendo bakinjiriza igihugu amadovize.

Ibigingwa cyangwa se kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima cyangwa se ibinyabuzima byo mu gasozi biri muri bimwe bifasha igihugu kuba cyatera imbere, aho usanga ubwiza bw'ibinyabuzima byo mu gasozi bushobora gukurura ba mukerarugendo, hanyuma bikaba byateza igihugu imbere ba mukerarugendo binjiza amadovize.

Inyoni ni kimwe mu kinyabuzima cy'ikinyagasozi, kitagira aho gitaha ariko gikwiye kubungwabungwa, aho usanga kiri mu bifasha isi kugira urusobe rw'ibinyabuzima rushyitse.

Ubuzima bw'ibinyabuzima biva mu gasozi, ubwo ni ukuvuga ibinyabuzima bitororerwa mu rugo cyangwa se mu mafamu. Biri mu byitabwaho cyane kuko aho usanga ibinyabuzima biba mu gasozi bifite ubwiza karemano, bifasha no gukurura ba mukerarugendo bakaba batanga amadovize ku gihugu.

ubuzima bw'ibinyabuzima biba mu gasozi biri mu byitaweho n'ikiremwa cya muntu aho ibinyabuzima biba mu gasozi bifasha imibereho ya muntu kubaho neza aho usanga nk'ibiba mu ma pariki bivugurura ba mukerarugendo bakinjiriza igihugu amadovize